Umugore ukenyeye igitenge cy'amabara arimo umutuku n'umuhondo. Yambaye kandi n'agapira k'umuhondo. Ahetse kandi ipombo y'umuhondo ifite n'utubara tw'ubururu. Ari gutera umuti mu bihingwa. Hakurya y'uwo murima hariho umusozi uriho amazu menshi kandi maremare.

Icupa riteretse rifite amabara atandukanye: hariho ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo, ndetse rikikijweho igipapuro gishushanyijeho ibihingwa. Ryandikishijweho amagambo, mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Umwana w'umuhungu wambaye bote zifite ibara ry'umukara ndetse n'akagofero, afite ipombo mu mugongo ifite ibara ry'umuhondo. Uyu mwana ari gufuhira imboga z'amashu.

Inyamaswa ikunzwe cyane n'abantu batari bake, iyi nyamaswa yitwa ifi. Izi nyamaswa ziba ahantu hari amazi menshi, abantu bakazikundira ko ziryoha, kandi zikagira intungamubiri.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye, biba ari ibituruka ku mazi harimo indagara, amafi, isambaza n'ibindi, harimo kandi abantu bari kubicuruza.

Inyamaswa zikunzwe cyane n'umubare mwinshi w'abatuye isi. Izo nyamaswa ziraribwa, zikaba zituye mu mazi, zikaba zitwa amafi. Izi nyamaswa kandi zifite intungamubiri nyinshi kandi zifite akamaro kanini ku buzima bw'abantu, ndetse zitunga n'izindi nyamaswa nini ziba mu mazi.

Ibiryo bikunzwe n'umubare utari muke w'abatuye isi. Ibyo biryo byitwa amafi, izi ni inyamaswa ziba mu mazi zifite akamaro kanini, ari na byo abantu benshi bazikundira. Ziraribwa, zigira inyama ziryoshye kandi zifite intungamubiri. Izi fi ziteretse ku meza.

Inyamaswa zikunzwe n'umubare munini w'abatuye isi, ni inyamaswa zitwa amafi, izi nyamaswa kandi ziba mu mazi, zikoreshwa n'abantu cyane, iyo bari kuzirya bashaka intungamubiri.

Ubwoko bw'ibiryo bukunzwe n'umubare utari muke w'abantu batuye isi. harimo: indagara zimwe zo mu mazi, cyangwa se isambaza. Ibi biryo birakunzwe cyane iyo uri kubirisha ubugari.

Ahantu hakundwa gusurwa n'abantu benshi baba abo mu Rwanda cyangwa se n'abo hanzi. Aha ni ku kiyaga cyangwa se ku mazi magari, Iki kiyaga gikikijwe n'imisozi ari nayo mpamvu abantu bakunda kuhasura. Haryoheye amaso kuhareba, kandi abarobyi nabo bahakura umusaruro.

Ibiryo bikunzwe n'umubare w'abantu utari muke utuye isi, ibi biryo bituruka ku nyamaswa, izo nyamaswa zitwa amafi. Amafi ni inyamaswa ziba mu mazi zigira intungamubiri nyinshi.

Umurima uhinze neza. uyu umurima uteyemo urutoki. inyuma yuyumurima hakikijweho uruzitiro rwibiti kandi inyuma hariho n'ibiti birebire.

umurima Uteyemo igihingwa cy' imboga, izo mboga zitwa karoti. Izi mboga zikunzwe n'abantu benshi, haba abantu bo hanze ndetse n'abo mu gihugu. inyuma y'uyu umurima hakikijeho ibiti binini kandi birebire.

Ibiti bivamo ibintu byinshi bitandukanye harimo, nk'imiti y'abantu ndetse n'imiti y'amatungo, bikaba byitwa imibirizi inyuma' y'imibirizi kandi hariho insina inyuma kandi y'ibi bihingwa byose, hariho inzu yubakishije amatafari ya rukarakara.

Itungo rikunzwe kororwa cyane iryo tungo ryitwa intama, iyi ntama ifite ibara ry'umweru. Intama ifite akamaro kenshi nko gutanga ifumbire ku bayoroye ndetse no kuryamo indyo yubaka umubiri, nk'inyama zayo. Inyuma y'izi ntama hariho urutoki ndetse n'ibiti birebire.

Inzu ikikijwe n'indabo ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse izo ndabo zifite uruyange rw'umweru, ikindi kandi iyo nzu impande yayo hariho urutoki.

Ingemwe nyinshi z'ibiti by'imisave, izo ngemwe ziri ahantu zinarijwe mu bigaragara izo ngemwe zimaze gukura. N'ingemwe zo gutegwa aho zigomba gutegwa zigakura zikavamo ibiti binini.

Igihingwa cy'imboga. Ni imboga zitwa karoti zihinzwe ahantu hanini cyane. Izi mboga zikenerwa ahantu henshi hatandukanye, haba kuziteka mu bishyimbo, mu mashaza ndetse no mu bindi biryo. Inyuma y'uwo murima hateyeho ibiti birebire kandi binini.

Ibyatsi byinshi bikuze inyuma y' ibi byatsi hariho inzu iri mu rutoki, hakabamo n' ibiti birebire ndetse ikaba ikikijwe n' uruzitiro rw' ubakishije ibiti.

Imboga nziza kandi zikunzwe n'abantu benshi zikaba zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'akeru gakeya. Izi mboga zitwa intogi. Izi mboga zirakunzwe cyane kubera ko zifite intungamubiri. Baziteka zonyine cyangwa se bakazivanga n'ibindi biryo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse ahantu hatandukanye baje mu isoko. Muri iri soko harimo abari kugurisha ndetse n'abari kugura. Hari abari kugura igitoki, ibitunguru, nyanya ndetse n'ibindi biribwa, mu bigaragara ni isoko ry'ibiribwa

Umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'umupira ndetse ni ipantaro bya shokora, uyu mugabo ahagaze mu murima uteyemo ibirayi, mu birayi kandi bifite uruyange rw'umweru, impande y'uwo muririma hariho inzu isakakaje amabati y'umutuku.

Abagore batatu ndetse n'umugabo umwe, bicaye mu murima uteyemo igihingwa cy'inanasi, izi nanasi ziracyari ntoya ntabwo zari zera, inyuma yabo kandi hariho undi murima urimo insina.

Inyamaswa cyangwa se amatungo afitiye akamaro kanini abayafite cyangwa se n'abatuye isi muri rusange, harimo: nko gutanga intungamubiri nk'amata, ndetse n'inyama. Inyamaswa kandi zifitiye akamaro kanini abahinzi kubera ko zibaha ifumbire, zifite izina ry'inka. Izi nka ziri mu mabara atandukanye, hari ifite ibara ry'umukara, n'izindi ebyiri zisa n'isine.

Umwana w'umuhungu, uri gutera umuti mu bihingwa. Uyu mwana yambaye ipantaro y'ikoboyi, ndetse n'umupira, ingofero y'umweru, kandi ahetse ipombo iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ubururu.

Uruhurirane rw'abantu batari benshi cyane, bahuriye ahantu hamwe mu murima harimo abambaye imipira y'umweru, ingofero z'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu, aba bantu bari mu murima w'ibishyimbo, bari gushingirira bafashe n'ibiti mu ntoki.

Ibiryo bikenerwa n'umubare mwinshi w'abantu, cyane cyane bikenerwa ku bigo by'amashuri, cyangwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi byitwa ibigori. Ibigori byifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye, harimo nka kawunga cg se igikoma.

Ubwoko bw'ibiryo cyangwa bw'imbuto, biri mu binyampeke bikunzwe n'abantu benshi, kubera akamaro bifite n'imbuto y'amasaka, amasaka uyakoresha ushakamo igikoma cyangwa se bamwe bakora inzoga nabwo barayakoresha mugukora inzoga, amasaka afite ibara ry'umutuku.

Imbuto ziryoshye kandi zikunzwe n'abantu benshi, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Izi mbuto ziri mu bwoko butandukanye, hari imbuto zitwa amaronji, hari izitwa ibinyomoro, ndetse na pome. Pome ziri mu mabara atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku.

Umubare mwinshi w'abantu bari guhinga. Harimo abakobwa ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye. Impande yabo kandi nk'imbere, hariho imisozi miremire iteyeho ibiti.

Ibiryo bikunzwe n'umubare utari muke w'abatuye isi. Ibi biryo biri mu bitera imbaraga. Bikaba byitwa ibijumba. Ibi bijumba kandi bifite ibara ry'umutuku. Kandi ni binini bigaragara, biranaryoshye.

Imbuto z'amatunda; izi ni imbuto zikunzwe n'umubare utari muke w'abantu batuye isi. Ariko mu bigaragara izi zishwe n'izuba, zarapfuye. Hariho kandi ikiganza cy'umuntu gifasheho bigaragara ko agiye kuzisoroma.

Ibinyabiziga biparitse nka moto, inyuma y'izi moto ibiri, hariho umutaka wa mtn. Inyuma kandi hariho imodoka y'idayihatso ipakiye ibitoki byinshi, hariho kandi abantu bari kubipakiramo. Inyuma na none hariho inzu ifite irangi isa n'umuhondo.

Umukobwa usutamye wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara. Uyu mukobwa ariteze, ari kwinaza ibiti, inyuma ye hari umurima urimo ibyatsi.

Imbuto z'imyembe imbuto zikunzwe n'abantu batari bake haba mu Rwanda cyangwa se no hanze. Izi mbuto zitwa imyembe ni imbuto zifite amabara atandukanye harimo: ibara ry'icyatsi, ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Urubuto rukunzwe n'umubare w'abantu utari muke, uru rubuto rwitwa urusenda rufite ibara ry'umutuku, hejuru ku nkondo rukagira ibara ry'icyatsi, uru rusenda rukunzwe gukoreshwa cyane cyane, mu bantu bateka muri resitora.

Umugabo wambaye agapira kari mu ibara ry'icyatsi, ipantaro ndetse n'ikoti biri mu ibara rya shokora. Uyu mugabo afashe igihingwa cy'ibigori mu ntoki. Ibi bigori ni ibiryo bikunzwe n'abantu benshi, kandi bifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu.

Abana babiri b'abakobwa bari guseka， umwe yambaye agapira k'umuhondo， afashe n'isuka ku rutugu， afite agakoko inyuma，yikoreye n'akatebo karimo ibintu bimeze nk'imboga， undi nawe ari guseka， yambaye nawe agapira k'umuhondo， n’ikindi kintu cy'umukara kimeze nk'isarubeti，afashe agakoko ku rutugu.

Ubwoko bw'imboga kandi zikunzwe n'abantu benshi. Izi mboga zikaba zifite ibara ry'icatsi, zitwa kandi intoryi. Izi mboga zikunzwe cyane kubera ko zitekwa mu buryo butandukanye. Waziteka zonyine kandi zikaryoha, cyangwa se ukaba wazivanga n'ibindi nk'ibishyimbo, ibirayi, igitoki n'ibindi.

Imbuto zikunzwe n'abantu batari bake, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, izi mbuto zitwa voka. Zifite ibara ry'icatsi ndetse mo imbere hasa n'umuhondo, ikindi zifite imbuto itari nini kandi na none si ntoya, bivuze ngo iraringaniye.

Umugore uhagaze mu murima ufashe isuka, uri guhingira im imboga. Inyuma y' umurima uyu mugore ahagazemo hariho indi mirima ndetse n'imisozi hateyemo ibiti birebire.

Uruhurirane rw'imbuto nyinshi zitandukanye izi ni zimwe mu mbuto zikunzwe n'abantu benshi haba abatuye mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Harimo imbuto z'amaronji, imyembe, wotameroni n'ibinyomoro.

Umwana w'umuhungu wunamye, wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, ndetse n'umupira ufite ibara ry'ubururu. Uwo mwana w'umuhungu afashe terefone mu ntoki, ari kwita ku bimera bishingirije ibiti.

Umubare mwinshi w'abantu bateraniye hamwe bafashe amasuka. Harimo abagabo, abagore mbese n'ingeri zose. Abantu bisa nk'aho bari gukora umuganda. Harimo n'uwambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi bisa nk'aho ashinzwe umutekano.

Ibiryo bikunzwe n'abantu batari bake, haba mu Rwanda ndetse no hanze. Ibyo biryo byitwa igitoki, igitoki gishobora gutekwa ku buryo bwinshi butandukanye, wagiteka cyonyine, cyangwa se ukaba wakivanga n'ibindi, harimo: nk'ibishyimbo, ibirayi, imboga, n'ibindi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry' ubururu ndetse n' ishati ifite ibara ry' ubururu, kandi ari mu murima w' ikawa ari gusoroma ikawa muri uyu murima, imbere ye hari ibiti byinshi birimo ikawa iyeze niteze kandi ku ruhande harimo insina.

Igihingwa gikunzwe n'abantu benshi batari bake haba mu Rwanda ndetse no hanze. Igihingwa cyitwa inyanya kiri mu mabara abiri, hari inyanya zifite ibara ry'umutuku, ndetse n'inyanya zifite ibara ry'icyatsi. Muri uyu murima harimo umuntu wambaye igisarubeti gifite ibara ry'icyatsi ndetse na bote, ari gusoroma inyanya.

Imboga zikunzwe n'abantu benshi kubera akamaro zibafitiye. Izi mboga zikunzwe n'abantu bateka, kubera ko bazishyira mu biryo bikagira ibara ryiza. Ikindi kandi zikunzwe n'abahinzi kubera ko bazihinga zikabinjiriza amafaranga menshi. Izi mboga zikaba zitwa inyanya. Izi nyanya zifite ibara ry'icyatsi.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye kandi zikunzwe n'abantu batari bakeya, izi mbuto ziri mu mabara atandukanye harimo izisa n'umuhondo, harimo zifite ibara ry'icyatsi n'izifite ibara ry'umutuku, harimo imboga, karoti, intoryi, amashu n'inyanya, ibitunguru, amashaza n'izindi.

Igihingwa gikunzwe cyane n'abantu benshi batari bake, cyane cyane abo mu cyaro baba bagihinga cyangwa se abakunda guterura imizigo iremereye. Iki gihingwa cyitwa imyumbati, gikunzwe guhingwa cyane cyane mu itaka ry'inkombe.

Imbuto n'imboga nyinshi z'ubwoko bwinshi butandukanye harimo intoryi, hakabamo indimu, hakabamo pavuro ndetse n'imiteja. Izi mboga n'imbuto bikunzwe n'abantu benshi batuye isi.

Igiti gitanga umusaruro ukenerwa n'abantu benshi, gitanga imyumbati yo kurya ndetse kigatanga n'isombe, iyo bakuyeho iyo myumbati, igiti kiba cyasigaye amababi yacyo barayasoroma bakayakuramo isombe yo kurya.

Abantu basaga cumi na batanu harimo abagabo ndetse n'abagore. aba bantu bari kwifotoza ,bafashe ingemwe mu ntoki. Mu bigaragara bishimiye ko bafashe izi ngemwe, kandi ko bagiye kuzitera mu buryo bwiza bwemewe, kugira ngo zibabyarire umusaruro.

Ibiryo bikunzwe n'abantu benshi, ibi biryo byitwa imiteja iri mu ibara ry' icyatsi. Iyi miteja iva ku bishyimbo bitari byera neza, ushobora kuyiteka yonyine, ukayiteka mu mavuta, cyangwa se ukaba wayivanga n'ibindi biryo.

Imbuto zikunzwe n'umubare mwinshi w'abantu batuye, aya akaba afite izina ry'amatunda. Aya matunda afite ibara rya move inyuma, mo imbere akaba asa n'umuhondo. Aya matunda kandi ibibabi bihari bifite ibara ry'icyatsi.

Imbuto zikunzwe n'umubare utari muke w'abantu, haba abatuye mu Rwanda ndetse n'abari hanze, izi mbuto zikaba zitwa amapera zifite ibara ry'icyatsi, ziri ku ishami rishamikiye ku giti kinini.

Abantu babiri, umugore ndetse n' umukobwa barimo guhinga, bafashe amasuka. Inyuma yabo hari agashyamba gatoya, karimo ibiti birebire. Hakurya yabo, hari imisozi miremire.

Umusaza wambaye ingofero， wambaye umupira ndetse n'ipantaro，ufashe ibyatsi ku kuboko. Uyu musaza kandi ari kumwe n’umwana muto cyane， bari kunyura mu nzira，ariko impande yaho， hariho ibyatsi birebire.

Imbuto zikunzwe n'umubare munini w'abantu batuye isi. Izi mbuto ziri mu mabara atandukanye, hari iziba ziri mu mabara y'umuhondo. Izi mbuto zifashishwa mu kurinda indwara, ndetse no gufasha mu mikurire myiza y'abana.

Igitoki kinini cyeze. Iki gitoki gifite ibara ry'icyatsi. Iki gitoki gikunzwe n'abantu batari bake, kubera ko kiribwa mu buryo butandukanye. Hari abakirya bagitetse cyangwa se bakagitaramo imineke bakarya imineke. Imineke yacu bivugwa ko iryoha cyane.

Imbuto zikunzwe n'umubare munini w'abatuye Isi ,izi mbuto zitwa amapera. Aya mapera kandi inyuma afite ibara ry'icyatsi mu nda urisatuye rifite ibara ry'umweru.

Umwana w'umukobwa uri mu murima wunamye, wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse na bote, yunamye mu myaka ari kureba uko imeze.

Umuntu w'umumama cyangwa se w'umudamu, ukenyeye igitenge gifite ibara ry'umuhondo uhiye n'udahiye, yambaye umupira kandi yipfutse igitambaro cy'umweru, ari mu murima w'ibishyimbo bishingirije ibiti.

Igihingwa gikundwa cyane kandi gifite akamaro kanini ku bantu benshi batandukanye, iki gihingwa kitwa ibigori. Ibigori ni igihingwa gikunzwe cyane kubera ko gifite akamaro kanini, barabirya, bibisi cyangwa se byumye, bagakoramo akahunga, cyangwa se bagakoramo n'igikoma.

Uruhurirane rw'imbuto zikunzwe n'abantu benshi, haba mu gihugu ndetse no hanze, izo mbuto zifite amabara menshi, harimo izifite ibara ry'umutuku, izifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'izifite ibara ry'umuhondo, muri zo mbuto harimo ibinyomoro, amalonji, watemeroni, n'izindi.

Ibiryo bikunzwe n'umubare mwinshi w'abantu batuye isi. Ibi biryo bifite ibara ry'umutuku. Ibi biryo kandi byitwa ibijumba. Ibi bijumba bifite ibara ry'umutuku bikunzwe cyane kubera ko biryoha.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'ibara ry'ubururu wipfutse n'igitambaro cyibara ry'ubururu, akenye igitenge. Uyu mugore afashe terefone ari kurebamo, inyuma ye hari ibiti bibiri, imbere ye kuruhande hariho amazu.

Igihingwa gifite akamaro kanini kandi gikenerwa ahantu henshi. Gikenerwa ku mashuri gikurwamo akawunga, kigakorwamo igikoma, ndetse kigakenerwa no mu rugo, aho abantu bo mu rugo ibyo byose babikenera. Harimo kandi umuntu w'umugore uri kureba ko ibigori byeze.

Ibishyimbo byinshi birunze ahantu hamwe bifite ibara ry' umukara, impande yaho hariho agakoko kaboshe mu migano, basa nkaho bari kuyoreraho ibi bishyimbo.

Imbuto zo mu mboga zitwa ibihaza. Izi ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyne, zifite ibara ry'umuhondo. Izi mbuto zikorwagwamo ifu, maze bakayiteka mu biryo bikaribwa. Ikindi kandi izi mbuto ni nazo batera zikongera zikavamo ibihaza.

Imbuto zitandukanye izi mbuto zikunze kwitwa ibinyampeke harimo: ibishyimbo, soya ndetse n'amashaza. Ibi binyampeke kandi biri mu mabara atandukanye hari ibifite ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara, ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abagore benshi bafatiye hamwe intara cyangwa se inkoko iriho ibishyimbo byinshi, biri mu mabara atandukanye. Hariho ibishyimbo bifite ibara ry'umutuku, hari ibifite ibara ry'umweru, hari ibifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibifite ibara ry'umukara.

Abantu bane bari mu umurima bari guhura umuceri, abagabo babiri, n'abagore babiri. Harimo abafashe ibibando mu ntoki, uyu muceri ukunzwe n'abantu cyane kuko ufite akamaro kanini. Akenshi uribwa mu bigo by'amashu, mu baturage, mbese ngo umuceri ufasha cyane ahantu hari abantu benshi.

Abantu batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bari guhinga mu gishanga. Bamwe bafite amasuka bari guhinga. Abandi bari kurandura aho binaje umuceri, bawutera mu murima hose.

Umwana w'umukobwa wambaye agapira k'umukara ,ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote. Uyu mwana kandi ari kugosora ibinyampeke byitwa ibishyimbo akoresheje inkoko.

Igihingwa cy'ibigori, ibi bigori bifite ibara ry'umuhondo. Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa gifitiye akamaro kanini abantu cyane cyane ahantu hari umubare mwinshi w'abantu, kubera ko ibigori bivamo kawunga, bikavamo ,igikoma ndetse abantu bakanabirya uko biba byeze.

Ibiryo bikunzwe cyane n'umubare utari muke w'abatuye isi, byitwa ibishyimbo bifitiye abantu benshi akamaro, kubera ko biribwa biri mu bwoko bw'ibinyampeke, ubwo birinda indwara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko. Aba bantu harimo n'abaje kugura, harimo n'abagurisha. Ingeri zitandukanye harimo abagore, abagabo, abasore n'inkumi. Iri soko ririmo ibintu bitandukanye hari nk'ibishyimbo, ibirayi n'ibindi.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ak'ubururu undi yambaye agasa n'umukara. Aba bantu bari kureba mu murima w'amajeri, aya majeri ni bwo ari kuyanga afite uruyange rw'umweru, inyuma yabo kandi hariho igiti cya voka kinini inyuma y'icyo giti kandi hariho inzu.

Imboga zikunzwe n'umubare munini w'abantu, izi zikaba zitwa imiteja, iyi mideja irakunzwe cyane kubera ko itekwa ku buryo bwinshi butandukanye; wayiteka ari yonyine cyangwa se ukaba wayivanga mu bindi biryo nk'ibirayi cyangwa n'ibindi. Hariho ikiganza kiri kuyisoroma.

Igihingwa cy'ibishyimbo, ibyo bishyimbo bifite imiteja ikindi hari imiteja imwe basoromye bayishyira ku ruhande, ku kantu.

Ibinyampeke byinshi kandi biri mu mabara atandukanye. Hari ibisa n’umweru, ibisa umutuku, ibisa umuhondo, ibisa n’umukara, ndetse n’ayandi mabara atandukanye. Ibi binyampeke bikunzwe cyane n’umubare munini w’abantu, haba mu buryo bwo kubirya, ndetse no kubihinga.

Imbuto ikunzwe n'abantu benshi batari bake. Haba ku bigo by'amashuri, mu rugo, mbese ahantu hahuriye abantu benshi. Igihingwa cyitwa ibigori. Ibigori byifashishwa mu bintu byinshi harimo gukuramo ifu y'igikoma, kawunga, cyagwa se umuntu akabirya uko bimeze, akabiryamo impungure cyangwa amahundo.

Umukecuru wambaye ingutiya idoze mu gitenge, umupira udoze mu budodo ndetse wipfutse igitambaro mu mutwe, uyu mukecuru afashe isahani twita iparato cyangwa se isaniya iriho amasaka ari kuyagosora.

Umugore wunamye ukenyeye igitenge biteye kandi agasharupe karimo mu mabara y'ubururu n'umukara. Uyu mugore arunamye ari gufata amasaka bamaze kugesa arunze hasi.

Abagore batandatu, bambaye imyenda itandukanye, ndetse bipfutse n'ibitambaro mu mutwe. Bafashe intara ziriho amasaka bari kukagosora. Ikindi kandi bari mu murima urimo ibigorigori byumye.

Ishyo ry'inka nyinshi cyane ziri mu kiraro zifite amabara atandukanye hari iz'umukara, hari izifite umukara uvanze n'umweru, ndetse n'isine ivanze n'umweru, imbere y'izi nka kandi hariho abagabo bane.

Ubwoko bw'inyamaswa bukunzwe cyane n'umubare utari muke, kubera akamaro zigira, izo nyamaswa zikaba zifite izina ry'iyi nka, iyi nka iryamye aha ngaha ifite amabara abiri harimo:ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'isine. Iyi nka iryamye ahantu mu byatsi, inyuma yaho hariho ibiti birebire biri guhinguka.

Itungo rikunzwe n'umubare utari muke w'abatuye isi rikaba ryitwa inka. Iyi nka ifite ibara ry'isine. Ku matwi kandi yambaye amaherena afite ibara ry'umuhondo.

Inyamaswa zikozwe n' umubare utari muke w' abatuye isi izi nyamaswa zikaba zitwa ingurube, izi ngurube zifite amabara abiri atandukanye harimo: ibara ry' umweru ndetse n' ibara ry' umukara.

Ubworozi bw'inko za kijyambere. Izi nkoko zose zifite ibara ry'umweru. Muri iyi nzu y'izi nkoko, harimo umunzani ndetse n'akabasi, ibi bishobora kuba bipima ingano y'ibiryo buri nkoko iba igomba gufata ku munsi. Harimo kandi umuntu wambaye umwenda w'akazi usa n'ubururu, ndetse na bote.

Inyamaswa kandi na yo ikunzwe n'abantu batari bake, ikaba yitwa ingurube. Iyi ngurube iri mu ibara ry'umutuku. Inyuma y'iyi ngurube hariho abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi, ubwo ni amataburiya afite ibara ry'umweru.

Itungo rikunzwe cyane n'umubare munini w'abatuye isi, rikaba ryitwa ingurube. Iyi ngurube ifite amabara atandukanye, harimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Harimo kandi muri iki kiraro akana gatoya k'ingurube bisa nkaho iyi ngurube iri kubwagura. Hariho kandi umuntu uri inyuma y'ikiraro uyifasheho.

Uruhurirane rw'abantu benshi bahuriye hamwe, bafashe amatungo magufi mu ntoki bisa nk'aho baje kuyavuza kwa veterineri cyangwa ku muganga w'amatungo, harimo uduhene, udutama, ndetse n'andi matungo magufi.

Inyamaswa zikunzwe n'abantu benshi. Kubera ko zifite akamaro kanini. Nko kuziryamo inyama, ndetse n'amagi. Izo nyamaswa zitwa inkoko. ziri mu mabara y'umweru.

Umukumbi w' inka. Izi nka zifite amabara atandukanye. Hari izisa n'isine, hari n'izindi zisa n'isine ariko havanzemo umweru. Izi nka zihagaze ahantu hari mu rwuri, ziri kurisha ubwatsi.

Inka eshatu atu nini . Izi nka zifite amabara atandukanye . Harimo isine ndetse n'umweru. Izi nka kandi zifite amahembe . Inyuma y'izi nka hariho imisozi minini kandi miremire . Iki cyororo cy'inka gifite akamaro kanini kubera ko zitanga amata ndetse n'inyama.

Inyamaswa yo mu rugo. Iyi ni inyamaswa ifite ibara ry'isine. Ikaba yitwa inka ifite amahembe manini. Iyi inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti ndetse n'amabati.

Inzu ebyiri zisakaje amategura, kandi zubakishije amatafari ahiye. Imbere y'izo nzu hariho ibiraro by'amatungo. Impande y'izo nzu n'ubundi hariho ibyana by'ingurube birindwi.

Inka nyinshi zifite amahembe maremare, ziri kurisha ubwatsi mu rwuri, muri urwo rwuri , inyuma y'izo nka hariho ibiti birebire.

Inyamaswa yo mu ishyamba, ikaba izwi ku izina ry'inkende. Iyi nkende igaragara mu mabara abiri: harimo ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umuhondo. Ihagaze kandi ku mashami y'ibiti.

Inyamaswa ziryohera amaso kureba, izi nyamaswa zitwa inyoni. Iyi nyoni ifite amabara atandukanye. Harimo ibara ry'umukara, umweru ndetse n'umutuku. Iyi nyoni kandi ifite umunwa muremure, ihagaze ku giti kinini.

Inyoni nini ifite ibara ry'umukara, ku munwa ifite ibara ry'umuhondo, ku mpanga ifite ibara ry'umutuku, ihagaze mu giti cy'ipera. Iki giti kandi gifite imbuto z'amapera zeze, zifite ibara ry'umuhondo.

Inyamaswa yo mu kirere iyi inyamaswa yitwa inyoni, ikaba ifite ibara ry'umukara ndetse n'amaguru asa n'umutuku, iyi nyoni kandi ifite umunwa ufite ibara ry'icyatsi ihagaze ku duti ndetse turi gushibuka.

Inyamaswa yo mu ishyamba, yurira ibiti. Iyi nyamaswa ifite umurizo munini kandi muremure. Ikindi, ifite n’amaso manini, ndetse ikagira n’amatwi manini. Iyi nyamaswa iri mu ibara ry’umutuku wijimye.

Inyamaswa iguruka mu kirere yitwa inyoni. Iyi nyamaswa igizwe n'amabara atatu arimo ibara ry'umukara, iry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umweru.

Inyamaswa yo mu kirere ifite amabara menshi atandukanye ifite ibara ry'umuhondo, ikagira ibara ry'umutuku, ikagira n'ibara ry'umukara. Ikaba yitwa inyoni, iyi nyoni ihagaze ku giti.

Inyamaswa yo mu kirere, iyi nyamaswa ikaba yitwa inyoni, inyamaswa kandi iri mu mabara atandukanye, hari ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, mu maso hiyi nyoni hasa n'umutuku, ahandi hasa n'umukara. Ihagaze ku giti.

Inyoni ifite amabara abiri, hariho ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, iyi nyoni kandi ihagaze inyuma y'icyari cyayo, mwo imbere mu cyari harimo ibyana by'inyoni bitatu byasamye bitegereje ko umubyeyi wabyo abizanira ibyo kurya.

Inyamaswa igendera hasi ifite amaguru ane. Iyo nyamaswa ifite amabara abiri harimo umukara ndetse n'akeru. Iyi nyamaswa ikaba ifite izina ry'imbeba. Ni inyamaswa iba mu rugo cyangwa hanze mu bihuru.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka iyi nyamaswa yitwa inyoni, iyi nyoni igizwe n'amabara atatu ibara ry'umukara, ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umutuku. Iyi nyoni kandi ifite umunwa muremure iryo bara ry'umutuku riri kuri uwo munwa wayo.